Ni byiza cyane kumanika icyapa cy'ahantu hari ibigo by'abanyeshuri, cyangwa hakorerwa ibikorwa runaka, bituma uhashaka ahamenya vuba biba ari byiza cyane.

Indangagaciro ni nziza cyane, zituma udashobora kugambanira igihugu, cyangwa se ngo wifatanye n'umwanzi, ni nziza cyane.

Kwiga ni byiza, iyo wiga, ufite umutima mwiza unezerewe, biba byiza. Binatuma ufata mu mutwe vuba, ufite morare.

Abaganga tubashimira ubufasha muduha mu murimo wanyu mukora mwitanga, mukaduha imiti yo kudukiza. Turabakunda, turabashimira.

Ni byiza cyane ko mwarimu yigisha, n'abanyeshuri nabo bakamubaza ibibazo batarimo kumva cyane neza. Ibyo turabikunda.